Ndabona abantu bicaye kwa muganga bategereje guhabwa serivisi hari abahagaze hari n'abandi basa nkaho bari kuganira n'abandi basa nkabababaye .

Ndabona umubyeyi yambaye agapfukamunwa n'umwana inyuma ateruye umwana asa nk'aho ateruye uwo inyuma ariko arahetswe uwo mubyeyi nawe atetse igikoma.

Ndabona umuntu w'inzobe uri kureba, uri kwerekana amenyo, afite akantu kari mu menyo wagirango ari guhanagura imyanda iri mu menyo.

Ndabona abasaza imbere hari n'abayisiramu bicaye ku ntebe begamye n'abandi bicaye ku ruhande, harimo n'abambaye amarinete hari n'ambaye inkweto zifunze.

Ndabona abantu bishimye basa nk'abahinzi bafite amasuka, buri wese hari icyo bafite amanitse, harimo abama, abapapa, n'umusaza w'umuyisiramu. no ku ruhande harimo ibigoyi.

Ndabona abana baje kubapimisha kwa muganga, harimo uhagaze n'umwana usa nk'uwambaye ziriya kariso babapimisha ku munzani.

Ndabona ahantu hajya ngo imashini zigiye zitandukanye, harimo n'iz'umutuku, iz'umukara cyangwa se ukagirango ngo ni ahantu hari ikigo cy'imyidagaduro bashobora kuba bakoreramo siporo.

Ndabona akabido gateretse imbere cyangwa se agacupa, gapfundikiye kandiditseho kabiri gukuba n'amagambo. Hasi hariho na nimero n' ibintu bimeze nk'ahantu bari kwamamaza, kubera ko bashyizeho nimero zabo za telefone.

Udusahane twinshi tw'uruziga duteretse ku meza, hirya hari iyindi siniya nini iriho ibyo kurya bimeze nk'amafiriti, urabona ko biryoshye, birimo ibitunguru, hinmo hari ikiganza cy'umuntu kiriho utuntu dutanu tumeze nk'ibyo kurya biri mu two dusahane.